Akabari keza gasirimutse harimo intebe zigezweho n'ameza agezweho. Akabari kakaba ari ak'abanyamujyi kandi bafite amafaranga yo kujya kugura inzoga zigezweho ahantu heza.

Akabari gacuruza inzoga zihenze cyane z'amawisiki kandi ziri ahantu heza, ziteretse ahantu heza, bigaragara ko kano kabari, ari ak'abasirimu rwose kajyamo abantu bifite ku ikofi.

Akabari k'akabyiniro karimo abasore n'abakobwa bari kubyina umuziki bizihiwe bigaragara ko bishimye kumatara y'icyatsi n'ubururu.

Ibitoki bitetse mu bishishwa， kandi ibi bitoki biraryohaga kuko ntabwo biba bivanze n'ibindi bintu， biri mu nteko nziza ya gakondo， kandi ibi bitoki bikunze kuribwa cyane n'abantu， bari kuri regime babujije umunyu n'amavuta.

Akabari kagezweho karimo karaka amatara, ay'amabara atandukanye, harimo intebe nziza cyane, ariko bigaragara ko harimo umukiriya umwe kuri kontwari. Akabari karasirimutse cyane.

Akabari bari gucuruza inzoga, karimo abantu bari kunywa izo nzoga bicaye ku ntebe z'ibiti n'iz'ibyuma n' ameza y'ibyuma bateretseho inzoga. Hirya y'aka kabari hari aho banke ya Kigali ikorera.

Ibiryo byiza bitetse neza, imbere yabyo hari fanta, ndetse n'ibirahure birimo sikolo n'agafanta. Ibijyo bisa n'ibiri muri resitora ibicuruza cyangwa mu kabari.

Akabari keza gasirimutse karimo amayoga, y'ubwoko bwose nk'amagni harimo umucuruzi wazo arimo arazisuka, mu birahure bigezweho arimo arabisuka neza cyane bisa naho agiye kuziha abakiriya.

Akabari keza cyane karimo amatara meza, kandi kari kicayemwo abakiriya bari kunywa ku matabure. Ndetse bari no kureba ikara irimo amashusho akabari ni keza cyane.

Inju yubucuruzi yegereye umuhanda kandi yegereye urupango, ikaba ari inzu nziza bigaragara ko ari n'akabari, kuko hariho ikirango cya sikolo gatanu.

Icyapa kigaragaza akabari kitwa Fesibuku Longe, Fesibuku Longe ubwo ni akabari gacuruza inzoga kandi bikaba bigaragara nk'ibirango bya, inzoga za Musiteri.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amarangi handitseho amako peyinti dogiterir Nsabi bigaragara ko iri duka ari irye. Handitseho dogiteri Nsabi bacuruza ubwoko bw'amarangi yose.

Botique icuruza impeta, impeta nyinshi zitandukanye zifite ingano zitandukanye, izi mpeta bazambara nk'iyo bagiye gushyingirwa, iyo bagiye gushaka abagore cyangwa abagabo, bazitangamo nk'impano bagiye kuzihana mu bakundana.

Icyapa kigaragaza Resitora icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa yitwa Welinipabu, ibyo byose bakabikora babiha abakiriya. Bacuruzamo ibyo kurya byiza byinshi n'ibyo kunywa.

Amaduka y'ubucuruzi ari hano mu Byagabo muri santere ya Byangabo ,akaba ari imbere yayo hari gupakirwa ibishyimbo mu mifuka bisa nk'aho bari bagiye guhita babipakira mu modoka babijyane mu isoko.

Iduka rifite inzugi z'ubururu, umusore wambaye umupira w'umweru ahagaze mu muryango, inyuma ye hari firigo, mbese bigaragara ko iyi ari alimantasiyo icuruza utuntu dutandukanye nk' amata na ji na za yawurute.

Amaduka ari yegereye umuhanda, aho inzu z'ubucuruzi ku bikuta byazo hometseho amakaro, imbere mumuhanda hari umumotari udahetse mugenzi arimo aragenda.

Amagare, aho bakorera amagare, barimo barayahoma ndetse hari, ni kumuhanda, imbere y'umuhanda, ibi byose bikorwa kugira ngo bayasane bayakanike. Hari n'inzu hijya y'ubucuruzi nziza cyane bisa n'aho hano ari mu mujyi.

Papeteri yitwa keledi ikora ibikoresho bya kompiyuta, ibikoresho bikoze mu ntebe, bakora intebe zo mu biti ndetse n'amapurintazi barayakora.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye zegeranye imbere hariho n'abacuruzi, abajenti ba emutiyeni, abakorera mu mutaka bumwe niwuhe mukorera izi nzu ni ingirakamaro, kuko tubonamo ibicuruzwa bitandukanye.

Isoko rigezweho rya kijyambere iyi nyubako rwose igezweho imbere yayo haparika amamoto n'amagare ategereje abantu batwara abayizana hano cyangwa ahabavana bataha mu ngo zabo.

Iduka ricuruza kandi rikora inkweto, hari inkweto zicuruzwa zumukara zitenze kuri etageri, hari n'umuguzi ugiye kuzigura.

Amangazini aracuruza, yometseho amakaro y'umweru, imbere hari umumotari uhetse umugenzi ucigatiye imitwaro ye, ahantu bigaragara ko umuhanda wagiye ubomoka.

Inzu y'ubucuruzi ibikuta byayo hometseho amakaro, kandi imbere bacuruzaga imyenda ibitenge, ibitenge by'abadamu.

Botike nziza cyane igezweho yitwa Gudu layifu hanze hicaye umusore uri gucuruza amavuta yo kwisiga, ari gucuruza amavuta yo kurya, kandi bigaragara ko bafungura guhera saa mbiri.

Indabo ziteye ku rubaraza rw'aho bita "Golota Rezolite" kandi aha ngaha hasize irangi ry'umweru, mbese ni heza cyane, aha hantu habereye kuhicara ukaruhuka cyangwa ukahifotorezaga.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye, bigaragara ko hano banacuruzamo amayinite, amasimukadi ya eyateli, serivisi zo kubitsa no kubikuza, hari icyapa kibigaragaza. iyi nzu kandi ikaba isize umweru, amararangi y'umweru n'ubururu.

Igipangu kiza cyane kigaragaza akabari, kiriho icyapa kigaragaza ko ari akabari, gifungishwa urugi rwa metarike rwiza cyane.

Amazu y'ubucuruzi, ku bikuta byayo hometseho amakaro y'umweru n'ubururu, kandi n'icyapa kigaragaza ibyo bakora. Imbere y'umuhanda wa kaburimbo, iyi harimo n'imoto, hari moto ihetse umugenzi.

Icyapa kigaragaza gifuti sitidiyo, aho batanga serivise zo gufotora, zo gufotora mu birori, mu maniverisere，mu makwe no gufata videwo. Mbese ibikorwa byo gufotora no gufata videwo.

Iyi nzu y'ubucuruzi bakunze kwita botike icuruza ibicuruzwa bitandukanye, hanze hari ibisheke birambitse ku rubaraza, ndetse n'amadegede n'ibitoki. Umucuruzi afite intebe ari kuyimura. Ibisheke rwose biraryohaga ndabikundaga.

Amazu y'ubucuruzi amwe asize amarangi handitseho Eyateri, iryo rangi ritukuraga ahandi hometseho amakaro y'umweru n'ikinombe, imbere yaho haparitse amagare, igare rimwe ntago ripakiye, irindi ririho imitwaro, ryegetse ku giti giteye imbere ku mbuga.

Ahantu bacururiza bakanakanikira amagare. Amagare ariyo bifashisha mu kugenda, ariko hari n'andi akoreshwa muri siporo. Hano rero hari akoreshwa muri siporo, hari n'abandi bakanishi bari kuyakanika iruhande rwayo.

Inyubako igaragaza ko ari hoteli, hakaba handitseho amagambo ya werikamu tu ravuwazina hoteli. Iyi hoteli ni nziza cyane kandi iri mu nyubako nziza.

Ahantu bogoshera ni salo bogoshera imbere hari abantu bahicaye ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko ari salo ari ahantu bogosheraga hitwa hope salo iri i Musanze.

Alimantasiyo Umucyo ikorera ahantu heza, mu nyubako isize amarangi y'umweru n'umukara, hejuru hariho anteni ya televiziyo. Alimantasiyo zikunze kuba zirimo amata n'ibyayi byinshi n'imigati.

Inzu y'ubucuruzi ikorera ikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, ni etaje igezweho hasi hari icyapa kiranga ibyo bakora, hejuru naho kuri etaje ya kabiri hari ahagaragaza ko bakorera gesite hawuse.

Amaduka abiri yegeranye bacuruza imyenda ,ibitenge imyenda y' ibiryamirwa nk' amakuvuleri, amashuka ndetse n'ibitenge by'abadamu byo ku bwoko butandukanye rimwe rifite abakiriya baje guhaha, guhaha iyo myenda ndetse irindi umucuruzi aracyategereje.

Iduka rikora terifoni n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, imbere yaryo hari umutaka w'abajenti ba emutiyene, imbere hicaye abandi bantu babiri umwe nundi umwe uri muri iryo duka.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikoresho by'abagore byitwa besiteradi kosimatike, iyi ihagaze imbere ya yo ihagazeho abadamu babiri bambaye imipira y'imyeru.

Amangazini acuruza imyenda y'abakobwa, hanze niho iri, hari n'undi ikora ukanacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ,nk'amatelefoni nawe yicaye hanze niho ari kubikorera.

Inzu y'ubucuruzi, imbere hicaye umucuruzi wayo bigaragara ko inzu yometseho amakaro ku bikuta by'inyuma, kandi bacuruza aya mafumbire akoreshwa mu buhinzi nka elibeka, dapu na ile.

Amangazini y'ibikoresho bitandukanye ,harimo ingorofani ,utuyunguruzo, insinga z'amashanyarazi ,amatiyo atwara, amazi ndetse n'imikoropesho itandukanye y'isuku.

Akabari gacuruza inzoga, kubatse neza, bigaragara ko hari kuva akazuba keza, akabari kari hari icyapa kikaranga, cyanditseho Lapazi n'ikirango cya Amusiteribiya, bigaragara nk'aho habayo inzoga nyinshi z'ubu bwoko.

Iduka riri imbere y'umuhanda ryiza cane, iri duka riri imbere y'umuhanda n'amapave kandi ni irya she Mama Nicole niwe nyiraryo, akaba ariwe ucururiza hano.

Inyubako nziza bigaragara ko ari hoteli yitwa fatima iherereye musanze iyi hoteli ninziza kuko iku itanga serivisi nziza kandi ibibamo ni byiza rwose.

Ibiraha byiza cyane biteretse ku gasahane biruzuye, ndetse bikoreshwa ibirayi bagashyiramo agasenda karinganiye, ndetse bagatwikirizaho ifarini.

Iduka ricuruza udukoresho dutandukanye, harimo: shupaguru, ingofero, udufuka, balo z'abana zo gukina, udusaha, hakaba hicaye umukobwa, ni we ubicuruza ibyo byose.

Amazu y'ubucuruzi ari ku muhanda, yubakishijwe umucanga, hometseho amakaro y'umweru n'ubururu, hariho n'ibyapa biranga ibyo bacuruza, imbere y'umuhanda urimo uragendwamo na moto ihetse umugenzi.

Inzu y'ubucuruzi iri mu bwoko bwa etaje， igeretse rimwe, hasi bacururizamo ibikoresho bitandukanye, n’amasima, amajerekani，imbere yaho ni ku muhanda, bacuruza n’amayinite, hejuru kuri etaje ya kabiri hari na sako yitwa ABAMUHOZA.

Inzu z'ubucuruzi butandukanye, hari indi aho bakina imikino yo gutega hari mu ishami rya forotibeti, aha ni ho baza bagategera ku makipe atandukanye, ku mikino itandukanye, ukaba warya amafaranga uyatsindiye mu mikino yo kubetinga.

Inzu z'ubucuruzi zicuruza ibicuruzwa bitandukanye, imbere harimo hari imifuka y'imyaka itandukanye n'umunzani. Iyo uhageze bahita bagupimira bayoye muri iyo mifuka bitewe n'ikintu ukeneye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo: imifuka y'imiceri n'iy'ifarini irunze hanze, ndetse n'imbere harimo amakarito y'ubwoko butandukanye, hicaye abakiriya bari muri telefoni.

Inzu igezweho y'ubucuruzi iri mu mujyi wa Musanze. Iyi ikoreramo abacuruzi benshi n'ama bizinesi menshi ndetse habahari n'abamotari bategereje gutwara abagenzi batunda iri soko. Ndetse baje guhahiramo cyangwa gucururizamo.

Inzu y'ubucuruzi iri yubakishije amabuye iri ahantu heza hari n'imitako, indabo ziteye hanze yayo, yitwa Fesibuke Ruwanje ikaba isirimutse rwose.

Inzu z'ubucuruzi hari izikore izitanga serivisi za banki hari n'ibiro n'aho banki ya Kigali ikorera ishami rya Kinigi, kandi banki ni nziza niyo iyoyoboye neza cyane mu Rwanda.

Ahantu bacuruza moto zitandukanye，zitwara abagenzi， ziracyari mu mashashi，mbese ziracyari mu mutongoro， ziracyari nshya cyane rwose，hano iyo umuntu azishaka niho aza n'amafaranga ye ayitwaje， akayishyura， akayitahana.

Ibyapa biranga inzu z'ubucuruzi zitandukanye. Ibi byapa hariho vive umunani gesite hawuze Hinga wunguke iri i Musanze, ibiro byayo n'ikindi cyapa kiranga ku parase Rwanda. Ibi byapa biranga aho ibyo bigo bikorera.

Butike icuruza ibikoresho bitandukanye nka balo zo gukina, amadarubindi cyangwa amarinete atandukanye, abonerana n'ayijimye ese hano niho wabibonera?

Ahantu heza h' urubaraza handitse hari ikirango cya kiranga inzu y'ubucuruzi yitwa Gorotarisoti ni ahantu heza hari indabo, hari indabo nziza wahifotoreza bikaba ari sawa.

Inzu y'ubucuruzi ya etaje hasi hari aho bacururiza imyenda, iyi nzu bigaragara ko ari isirimutse, icuruza ibicuruzwa bigezweho, iyi myenda y'abagabo n'abakobwa iri hanze bigaragara ko igezweho.

Inzu y'ubucuruzi ya etaje isize amarangi y'umuhondo kandi handitseho amagambo atandukanye yo kwamamaza ibikorwa bakora, hejuru handitse ku makaro meza, ahandi handitse tuyifode forensiya.

Umucuruzi ari imbere y'iduka rye mu muryango, iri duka rigezweho riratsirimutse kuko hagaragara ko hariho banywera ibinyobwa bitandukanye nk'amata, ko ikirango kibyerekana cyanditseho resito.

Ahantu bakoreshereza amatelefoni, iri duka ni ryo rikora amatelefoni rikanayacuruzaga kandi rikayaripiyaringa, harimo abatekinisiye ku buryo bayakora. Harimo ibirango bya Tekino, Eyateli, Infinikisi, n'ubundi bwoko bw'amatelefoni agezweho ya simatifone.

Amangazini ya Ebenezeri acuruza intebe z'imisego zikoze muri simirikwire ndetse n'ameza. Hirya yayo mangazini hari sitidiyo Inganzo ikora ibijyanye n'irembo.

Igikombe kirimo umurama w'ibitunguru kandi uyu murama ni ingenzi kugira ngo uhinge ibitunguru kandi ibitunguru biratukura. Uyu murama ukunze guhingwa ino Musanze, uyunguyu ukorwa n'Abahorandi n'Abanyakenya, ni bo bakoraga iyi mirama.

Abakorari biganjemo b' abakobwa bateze udutambaro,. korari ni nziza kuko iririmba neza tugahimbaza Imana mu rusengero, barakeyeye rwose barishimye mu gukorera Imana.

Umusore wambaye umupira w'umweru ,ipantaro y'umukara, yambaye inkweto z'umweru, ahagaze imbere mu mbuga y'inzu yubakishije amabuye ndetse iruhande rwe haparitse imodoka y'imitako ire hari y'ibiti.

Hoteli nziza cyane iri mu zigezweho, imbere yayo hari pisine, pisine iba irimo amazi aho umuntu ajyaga kogeragamo, kandi kogeragamo bituma umubiri umera neza, mbese ukaba umeze neza cyane, bigatuma ugira ubuzima bwiza ukaruhuka mu mutwe.

Salo ni nziza cyane irimo intebe zigezweho z'amadive kandi harimo n'ameza, umukeka urambitse imbere, iyi nzu rwose ni nziza , n'iyi salo ni nziza kuko banayiganiriramo batuje.

Resitora yitwa Derisiyasi, geti yayo igaragaza yanditseho indimi zo mu Gishinwa, ndetse hari n'ikirango cya Sikolo. Mbese inteko yabo bateka ibiryo byo hanze byibanda ku muco w'Abashinwa cyangwa uw'Abayapani.

Gesite hawuze nziza, iri iriho icyapa kiyiranga, hariho izina ryayo, emupehashi Urugwiro litidi besite hawuze tu bigaragara ko bari kuyirangisha.

Umusore ari ku rubaraza yambaye neza afite agakombe karimo ji, mbese bigaragara ko ari ku rubaraza rwa hoteli, ameze neza cyane arimo araruhuka, ni byiza cyane ari kurya kudufaranga twe.

Iduka ry'ibikoresho bitandukanye harimo ibiryamirwa nk'ibiringiti, amajagi, amasafuriya imikandara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imifuka ipakiyemo imyaka nk'ibishyimbo n'amasaka, kandi iyi myaka iba iri ku isoko bayigurisha, iyo umuntu agiye kuyigura abaza ibiciro akabona ibyo ashaka, bitewe n'ingano y'amafaranga afite.

Butike yiganjemo ibinyobwa bidasembuyebitaji, harimo sana yomu gakombe abana barazikunda, harimo fanta binini bya ritiko bakunze kwita ritiko ndetse harimo n'izindi ji zitandukanye.

Inkwavu ziri mu icyibo kirimo n'ibyatsi ziri kurya, icyo cyibo cyegereye udufuka ndetse hari n'umuntu uzihagaze iruhande.

Rya mbere rigezweho rikaba rigaragara ko ricuruza ibintu bitandukanye hagaragara imyenda, udukapu, imbuto nka wotameloni , amapapayi ,amacunga ndetse n'ibindi bitandukanye abantu baje guhaha.

Isoko bacuruzaga ibikoresho bya palasitike harimo amabase, utu etajere dukoze mu palasitike, indobo ibikombe, ibyo byose bikoreshwa mu ngo kuko bifata neza ibindi no gukorerwamo amasuku.

Aho bacururiza imbuto n'imboga , imboga harimo imiteja ,karoti ,ibitunguru ,inyanya na puwavuro ndetse na n'indimu nazo bari kuzihacururiza , ibi byose bigafasha umuntu mu gutegura isosi nziza.

Amangazini acuruza ibikoresho byo guteka nk'amasafuriya, amasahani, udukombe ndetse n'iby'isuku nk'amabase ibyo byose biri hano muri iri duka.

Isoko ry'imbuto harimo wotameloni, amanyomoro, imineke byose ni byiza ku muntu ukunda ibinyamasukari. Kandi ku bahinzi babyo barunguka kuko bikundwaga na benshi.

Umugabo ari kunywa agasururu, cyangwa ubushera mu rujage y'ubururu ubushera, babukora mu masaka bagashigisha bagashyushya bushyiraba ari bwiza cyane kuko butuma ukomera.

inyubako nziza cyane igezweho, hariho nka na etaje, imbere yayo hari umuntu uhagaze, wambaye akagofero n'imyenda y'umukara n'umutuku, kandi hari ibigega, ibigega bifata amazi.

Isoko ry'imboga ricuruzwagamo karoti, puwavuro, puwalo, kokumbure, beterave n'intoryi kandi harimo abadamu, mugabo aribo bacuruzi b'ibyo bicuruzwa.

Iduka ricuruzaga imyenda nk 'amasume , amakuvuleri n'ibyo kuraragamo ibiryamirwa kandi ibi byose bikaba bikenerwa n'abantu b'ingeri zose abafite abana, abafite ingo ,n'abanyeshuri barabikeneraga mu gihe cyo kwiga ukaryama neza.

Isoko rya kijyambere ry'imbuto harimo:wotameloni, amatunda, inanasi ndetse ni rinini cyane bigaragara ko n'imineke irimo ibicuruzwa biganwa n'abantu benshi bakabona ibyo bifuza guhaha.

Butike bacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye amagi, amavuta, ji, amavuta yo guteka, ibikombe ndetse hicaye umuntu imbere arimo arabwira ibyo ashaka...

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, harimo amabase, utumeza, udukapu two gutwaramo utuntu dutandukanye, iri soko bisa n'aho riri ahantu hagati y'amazu, kandi umucuruzi waryo yicaye imbere y'ibyo bicuruzwa bye.

Isoko ry'imbuto n'imboga, abacuruzi biganjemo abadamu bacuruza inyanya, dodo na karoti, ibitunguru izi mboga zifashishwa mu kurya, mu kurwanya imirire mibi, mbese iri soko rifasha abantu kubona ibyo biribwa bitabagoye.

Isoko bari gucuruza tungurusumu n'ibitunguru ndetse n'urusenda, hari abakiriya benshi batandukanye, bigaragara ko iri soko ryegereye umuhanda, bari gucururiza ku rubaraza.

Umucuruzi ucuruza imyumbati ku myandiko aricaye, ategereje abaguzi bayo ngo baze ku muhahira, imyumbati ni myiza cyane yeza neza ategereje abantu baza ku mugurira.

Akabotike gato gacuruza ibicuruzwa, bitandukanye harimo amajyani, korogate ndetse n'uburoso bw'amenyo, na omo ibirungo byo guteka bya tayari.

Isoko bacururizaho udukoresho dutandukanye dukozwe mu biti no mu byuma, harimo ibyuma, harimo imitego y'imbeba utumashu, harimo imyuko, kandi harimo n'imiziriko biboheshejwe mu birere.

Isoko ry'imyaka n'ibindi bicuruzwa bacururizamo harimo amavuta, imiceri amasukari ,kawunga, ji ndetse n'amakaye n'imyunyu abacuruzi ba butike nibo umuntu ajya kugurira hafi aho ku santere.

Isoko ricuruza ibigega bibika amazi by' umukara .Iyo nyubako y'isoko iriho ibirahure bibonerana.

Abadamu bari gutonora amashaza, urunyogwe inyuma yaho bari no gucuruza ibitoki ku myandiko, n'ibijumba ku myandiko. Ibi byose bikaba ari mu biryo byiza cyane bitera imbaraga kandi bikomeza umubiri.